Umugabo wgikara wambaye ishati y'ubururu bwijimye iruhande rwe hari ikaye nini n'ikaramu yicaye ku ntebe y'umukara ikurikiranye n'izindi zizengurutse ameza abengerana.

Abantu benshi bicaye mu cyumba, bambaye imipira y'ubururu y'andikishijeho inyuguti z'umweru. Imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru, afite indangururamajwi, bigaragara ko ari umuyobozi w'inama.

Abantu benshi bavanze abagabo n'abagore bicaye mu cyumba harimo abambaye imipira y'umuhondo abandi icyatsi, bicaye imbere yameza atwikirije igitambaro gifite amabara y'umweru, umuhondo n'ubururu.

Abantu bavanze bicaye hamwe abagabo n'abagore abazungu n'abirabura, bazengurutse ameza manini imbere ya buri wese hari icupa ry'amazi yo kunywa.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bicaye mu cyumba giteguye neza kirimo intebe zipanze zikurikiranye, bose barareba mu cyerekezo kimwe bigaragara ko bafite gahunda imwe.

Abantu benshi bicaye mucyumba kitabona neza barimo umugore uteze igitambaro wambaye ikote ry'ikaki n'ishati y'ubururu wegeranye n'umugabo wambaye ikote ry'umukara.

Abantu benshi bari mu cyumba, hari abambaye imipira y'ubururu bwijimye, yandikishijeho inyuguti z'umweru imbere. Umwe aravugira mu ndangururamajwi, uri inyuma ye arafotora.

Abantu benshi bavanze abagabo n'abagore bicaye mu cyumba kimwe imbere ya buri wese hari icupa ry'amazi yo kunywa n'indangururamajwi, harimo umugore wambaye amadarubindi usutse imisatsi.

Abantu benshi bavanze abagabo n'abagore, bicaye mu buryo bufite gahunda, mu cyumba kirimo ameza atwikirije ibitambaro by'umweru, imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi yo kunywa.

Icyumba kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, hari undi muntu uhagaze imbere yabo wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umukara aritegereza undi urimo kwinjira wambaye ishati yumukara.

Abantu benshi bambaye imipira isa y'ubururu, bicaye mu cyumba, hari umugabo wambaye ishati y'umukara n'ikarita y'akazi mu ijosi, imbere hari ikibaho cy'umweru cyandikishijeho inyuguti z'umukara.

Umugore w'inzobe wambaye agashati k'umukara yicaranye n'undi w'igikara usutse imisatsi, hirya ye hari umugabo wambaye amadarubindi n'ikote rifite ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bavanze abagabo n'abagore bicaye mu cyumba bazengurutse ameza manini, imbere ya buri wese hari icupa ry'icyo kunywa hari umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu wicaye ahagana inyuma.

Abantu bicaye barebana mucyumba gisize irangi ry'icyatsi gifite inzugi zikigina hari uwambaye ishati y'umutuku undi yambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu barandikira ku meza ateguyeho ibitambaro by'umutuku, bateze amatwi umuyobozi w'inama uri imbere urimo kuvuga akoresheje mikoro.

Inama ihuje urubyiruko n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi, ahagana hino turabona abasore bakiri bato babiri harimo umwe wambaye ishati y'ikacye, undi wambaye umupira w'ubururu, imbere yabo hateretse amazi y'inyange ndetse n'icyayi cyangwa ikawa, biragaragara ko bakurikiye kugira ngo babashe kungukirwa n'iyo nama.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba kirimo ameza atwikirije igitambaro cy'icyatsi, bose bateze amatwi bishoboka ko bari mu mahugurwa.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba bareba mu cyerekezo kimwe, imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi ndetse abenshi muri bo barimo kwandika bifashishije mudasobwa.

Abantu benshi bavanze abagabo n'abagore, bicaye mu kibuga gitwikirije ihema uruhande rumwe, imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo, ifite igisenge gitukura.

Abagore babiri, umwe w'insobe n'undi w'igikara, bicaye mu cyumba begereye ameza atwikirije igitambaro cy'igitenge, umwe yambaye ishati y'umweru irimo utubara tw'umukara, aravugira mu ndangururamajwi.

Abantu bateraniye mu cyumba kinini, harimo abagabo n'abagore, abazungu n'abirabura, imbere hirya hari ikibaho cy'umweru, bigaragara ko bari bwifashishe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore abazungu n'abirabura bicaye mu cyumba bazengurutse ameza imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi ategurwa n'ikigo i inyange gikorera mu rwanda.

Abagabo bane bicaye mu cyumba kirimo intebe nziza bambaye ku buryo bwiyubashye buri wese afite amazi yo kunywa imbere ye bigaragara ko bari mu nama ariko batemeranya ku ngingo irimo kwigwaho kuko uwambaye amarinete yarakaye hino ye hari undi wifashe ku itama.

Umugore wambaye umupira w'umweru ufite amaboko maremare n'ipantaro y'ubururu, ateze igitambaro, hari imbaga y'abantu benshi, arabaganiriza akoresheje indangururamajwi.

Abantu benshi cyane bakoraniye hamwe, bamwe bicaye mu busitani abandi barahagaze baraganira. Bishoboka ko baje gusenga ariko kubera ko amateraniro ataratangira, bakaba barimo kuganira bungurana ibitekerezo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gishobora kuba gikorerwamo inama bambaye imyenda itandukanye harimo benshi bambaye imyenda y'ubururu, bicaye ku ntebe z'umutuku n'umuhondo. Imbere hari ibikoresho byabugenewe bigenda bishyirwaho ingingo nyamukuru zirimo kwigwa hari n'umuntu uhagaze ushobora kubafotora.

Abantu benshi bavanze; abazungu n'abirabura, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara. Abandi bake bicaye imbere ahagana hejuru, hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru dede.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba giteguye neza, kirimo intebe zipanze ku buryo bufite gahunda, zikurikiranye, imbere hari abandi bake bahicaye.

Abantu benshi bari mucyumba cy'inama gisize irangi ry'ubururu bukeye bahanze amaso umugabo wambaye umupira w'ubururu uhagaze arimo gutanga igitekerezo cyangwa abaza ikibazo.

Icyumba kirimo abantu benshi abagabo n'abagore, harimo ab'inzobe n'abirabura, imbere ya buri muntu hateretse amazi ategurwa n'ikigo inyange, bigaragara ko bateze amatwi ingingo barimo kwigaho muri iyi nama ishishikaje.

Umugore w'inzobe ufite akanyamuneza mu maso, asutse imisatsi, aravugira muri mikoro, aratanga ikiganiro yateguye ahagaze imbere y'igikoresho cyabugenewe gikoze mu giti.

Abantu benshi bicaye hamwe harimo umugabo wambaye umupira ufite amabara atambitse n'ipantaro y'ikake usuhuzanya n'umugore uje amusanga, hirya ye hicaye abagabo babiri bambaye impuzankano ya gisirikare.

Urupapuro rw'ubururu, rwandikishijeho inyuguti zitandukanye, ziri mu ibara ry'umweru n'ubururu. Hejuru handitse irembo, munsi yaho hari inyuguti nini z'icyapa.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho inyuguti nini z'umweru, munsi hari agasanduku kari mu ibara ry'umuhondo, hepfo cyane hari igishushanyo cy'imodoka n'ipikipiki.

Urubuga nkoranyambaga rw'ikigo cy'imisoro mu Rwanda, ruri ku rupapuro rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'umukara n'iz' ubururu, rugaragaza inzira yose unyuramo kugira ngo wishyure imisoro isabwa imbere mu gihugu.

Abantu benshi bari mu cyumba gisize amarange y'umweru n'icyatsi kimurikiwe n'amatara afashe mu gisenge, bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma bambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijeho amabara atandukanye, umubare icumi, uri mu ibara ry'umuhondo, uri mu kaziga hejuru, munsi yawo hari amagambo yanditse mu nyuguti z'umuhondo, n'andi yanditse mu nyuguti z'umweru.

Abantu benshi bicaye bareba mu cyerekezo kimwe, hari abandi babiri bicaye ahagana hejuru bareba mu kindi cyerekezo, barimo gutanga amabwiriza agomba kubahirizwa.

Urubuga rw'ikigo cy'imisoro mu Rwanda ruri mu ibara ry'ubururu, rwandikishijeho inyuguti z'umuhondo n'iz'umweru; ruragaragaza ingengabihe y'imisoro yagombaga kuba yamaze kwishyurwa ku itariki cumi n'eshanu Ukuboza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe.

Amagambo y'icyongereza ari mu mpine agaragaza ko ari urubuga rwa minisiteri y'ubuzima hagaragaraho imitwe itandukanye y'amakuru anyuranye ushobora kubona kuri uru rubuga akaba yagusobanurira ibintu byinshi ku bijyanye n'ubuzima mu Rwanda.

Icyapa kiri ku rupapuro runini rufite ibara ry'ubururu, cyandikishijeho inyuguti zitangana z'umweru n'umuhondo. Izo hejuru ni nini naho utwo hasi ni dutoya ntidusomeka neza.

Icyapa cy'umuhondo kigizwe n'udukoni tune tugonze, kiri ku rupapuro rw'umukara hejuru handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ngo wifi.

RURA ni ikigo gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro, gikorera i Kigali mu Rwanda cyita cyane cyane ku bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu muhanda, kugeza ibicuruzwa ku baguzi ndetse no kurengera inyungu zabo.

Umuryango ukinguye ukoze mu cyuma; ufite ibara ry'ikijuju, uri ku nzu iri ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo; ukinjira hariho icyapa cyanditseho irembo.

Umukobwa w'inzobe, wambaye amaherena y'umweru, n'ishati y'umweru, ufite imisatsi miremire isutse, arimo gukoresha mudasobwa, ari ahantu hateraniye abantu benshi, hashobora kuba hakorerwa imurikagurisha.

Itangazo rya minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, ryagaragazaga amasaha mashya y'akazi, yatangiye kubahirizwa ku itariki ya mbere Mutarama, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, aho icyashishikaje abantu cyane, ari uko amasaha yo gutangira akazi ya mu gitondo, yigijweyo kugeza saa mbiri ndetse rimwe na rimwe kugeza saa tatu.

Urubuga rutangaza imyanya y'akazi y'ubushoferi iri ku isoko hagaragara ibyo ugasaba agomba kuba yujuje, impapuro zitandukanye agomba gutanga n'igihe kugasaba bizarangirira.

Umugabo w'igikara cyane wambaye ingofero iboshyeye mu budodo bw'umukara n'ishati y'umweru, afashe igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, inyuma ye hari ibyapa byanditseho Tekino.

Icyapa kiri ku rupapuro runini rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'ubururu zitangana, hari n'akandi kapa gato kagaragaraho amabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Ifoto igaragaza uburyo wamenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyugu ukoresheje telefoni, imisoro ishobora gutangwa ku binyabiziga ndetse no ku bantu bafite ubucuruzi buciriritse, barakwereka inzira zose wanyuramo ugakemura icyo kibazo utagize ubukererwe.

Ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro mu Rwanda hagaragaraho ibintu byinshi bitandukanye, hari ikirango cy'icyo kigo, hari amategeko atandukanye agenga imisoro, ushobora kuyisomera bigatuma utagwa mu makosa.

Abana b'ingimbi n'abangavu benshi bicaye mu cyumba begeranye bambaye amashati y'umweru afite amaboko magufi, bafite agasatsi gake bigaragara ko bumvira.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye, cyandikishijeho inyuguti z'umuhondo, ahagana hasi hari inzu nziza y'icyerekezo isize amarange y'umweru, ku rundi ruhande hari ubusitani, imbere yaho hari mudasobwa.

Ku rubuga rw'ikigo cy'iterambere mu Rwanda haboneka amakuru atandukanye arebana n'ishoramari mu Rwanda, hari amategeko arigenga hari amahirwe atandukanye aboneka mu Rwanda, hari n'inzira wanyuramo kugira ugere kuri iyo ntego.

Abantu babiri harimo uwambaye umupira w'umutuku n'uwambaye imyenda yijimye, bitwikiriye umutaka ufite ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari agasanduku gateretse iruhande rw'uwo muhanda w'igitaka hakurya hari inzu iri mu gipangu.

Igiti kimanitseho insinga nyinshi zitwara amashanyarazi, gishinze iruhande rw'inzu isize irangi ry'umuhondo, ifite urugi n'idirishya ry'ubururu, hirya yayo hari izindi nzu ebyiri.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi, umwe yambaye amadarubindi, undi yambaye ingofero y'akazi y'umweru bari imbere y'ububiko bw'ibikoresho.

Imodoka nini y'umweru igeze ahantu hari ibiti byinshi hari n'igiti cy'amashanyarazi kimanitseho insinga nyinshi, iruhande rwaho hari umutaka ufite ibara ry'umuhondo ukorerwamo ubucuruzi.

Akazu gato k'icyuma gakorerwamo ikoranabuhanga ry'amashanyarazi gashinze mu busitani burimo indabo zakuze cyane hafi y'icyuma kinini gitwara insinga z'amashanyarazi.

Ibiti byinshi bitoshye, biteye ku nkengero z'umuhanda, ahagaragara n'amapoto atwara amashanyarazi. Ibi biti ukuntu ari byiza, bigaragara ko bigira uruhare rukomeye mu kubungabunga ikirere, bigatuma abantu bahumeka umwuka muzima.

Abantu bahagaze imbere y'urugomero rw'amashanyarazi, harimo batatu bambaye imyenda isa, ifite ibara ry'ubururu bukeye, bageretseho udukote, dufite ibara ry'umuhondo.

Amazu manini acucitse harimo iy'umuhondo, n'iy'ubururu imbere yayo haparitse imodoka ebyiri z'umweru, amapikipiki abiri atwawe n'abambaye imyenda itukura, hirya hari umutaka ufite ibara ry'umuhondo.

Ipooto y'amashanyarazi igizwe n'ibyuma bibiri birebire hagati yabyo hari agasanduku k'icyuma gafunze, iteretse iruhande rw'umuhanda munini ugabanyijemo ibice bibiri, iruhande rw'inzu y'igorofa nini cyane.

Icyuma kimanikwaho insinga zitwara amashanyarazi, gifite ibara rya zahabu, ni kirekire cyane bikabije ku buryo nta kindi kintu ubona kihegereye usibye ibicu biri mu kirere gikeye.

Urugomero rw'amashanyarazi rugizwe n'ibyuma n'ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga biri hamwe, ahakusanyirizwa amashanyarazi mbere yo gukwirakwizwa mu duce dutandukanye, hazitije ibyuma n'imigozi ifite ibara ry'umuhondo.

Amapikipiki abiri atwawe n'abantu bambaye impuzankano z'umutuku, umwe yambaye ingofero y'ubururu, undi yambaye ingofero y'umutuku, bageze imbere y'abantu barimo kwambuka umuhanda, bagabanya umuvuduko n'ubwo nta mirongo yabugenewe ihari.

Igipangu kinini cyiza, cyubakisheje amatafari ahiye, inzu irimo isakaje amabati atukura, harimo indabo nini zijya kumera nk'insina, hejuru y'iyo nzu hanyura ipoto itwara amashanyarazi.

Akazu gato k'ubucuruzi gasize amarangi y'umuhondo kariho n'ibyapa byo kwamamaza, gateretse iruhande rw'inzira hafi y'igiti cy'amashanyarazi, kiri imbere y'inzu zisakaje amategura.

Imodoka ifite ibara ry'ubururu iragenda mu muhanda wa kaburimbo inyuma yayo hari ipikipiki iyikurikiye, mu nkengero z'umuhanda hari ibiti binini bizana umuyaga, hari n'abagenzi bagenda ahabugenewe.

Icyuma kirekire cyane kimanitseho insinga z'amashanyarazi kiyatwara mu bice bitandukanye, gishinze iruhande rw'umuhanda w'igitaka mu rutoki, hakurya hari inzu isakaye iteye umucanga.

Imbangukiragutabara ifite ibara ry'umweru ihagaze mu ibaraza ry'inzu ikomeye bigaragara ko ari ibitaro hafi y'ikirongozi kigari kinyuzwamo ibitanda by'abarwayi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bugomba kuba ari ubw'amaso, kiragaragaramo ibikoresho bitandukanye, n'abantu babiri. Umwe yambaye impuzankano y'umweru n'ikarita y'akazi mu ijosi, bigaragara ko ari umuganga. Arimo gusuzuma umurwayi wambaye imyenda y'umutuku ifite utubara dutoya tw'umuhondo n'umukara.

Akazu gato gasize irangi ry'umuhondo gatangirwamo serivisi zijyanye n'itumanaho, imbere yako hari icyapa kinini cyanditseho komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu.

Abantu benshi, harimo abagabo n'abagore, baragenda mu kibuga kiri imbere y'inzu ifite icyapa cyandikishije inyuguti z'umukara. Ku ruhande hari ubusitani butoshye, n'inkingi y'umweru.

Icyapa kinini kiri ku rupapuro rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'ubururu, hejuru mu nguni hari ibendera ry'u Rwanda, kiri iruhande rw'ururabo rutoshye, hirya gato hari inzu isize irangi ry'umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu ibaraza ry'inzu yubakishije amatafari ahiye, bamwe bahagaze i ruhande rw'idirishya barahabwa serivisi abandi baricaye, hari n'abaryamye ku ntebe bategereje.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikijuju asohotse mu gipangu kirimo inyubako nyinshi z'amatafari ahiye, abisikanye n'abagore binjirayo harimo uwambaye imyenda y'ubururu uteze igitambaro cy'umuhondo.

Inzu nyinshi ziri mu gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hasize irangi ry'umuhondo, zifite ibisenge bitukura imbere yazo hari ubusitani butoshye.

Inzu y'gorofa isize irangi ry'umuhondo, hasi no hejuru, amadirishya n'inzugi ni ubururu, ibaraza n'inkingi ni umweru, mu busitani hari igiti kinini gitoshye cyane.

Imodoka nini isize irangi ryijimye ihagaze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hafi yinkengero zisize irangi ry'umweru n'umukara, imbere y'inyubako nini isize irangi r'umuhondo uruhande rumwe.

Inzu isize irangi ry'umuhondo imbere yayo hari ibyapa by'ubururu byandikishijemo ibara ry'umweru ishobora kuba ari ya yindi bita mberabyombi iberamo ibintu bitandukanye inama ,amahugurwa atandukanye ndetse n'ubukwe.

Imodoka zifite amabara atandukanye harimo iy'ikijuju, iy'umweru, iy'umutuku, ziparitse mu kibuga iruhande rw'amazu asize irange ry'umuhondo ashobora kuba ari amashuri abana bigiramo.

Umugore wambaye igitenge kiri mu ibara ry'icyatsi n'umupira w'ikijuju, aragenda mu kibuga aho imodoka ziparitse imbere y'amazu afite ibisenge bitukura, arihuta ngo yugame yanyagiwe.

Inzira yagutse, isakaye, itunganyije neza, hasi hashashe umucanga n'isima, iri hagati y'inyubako ebyiri zisize amarangi y'umweru, hakurya hari urugi rusohokera mu kindi kibuga.

Umugabo w'igikara muremure, wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'ikoboyi, aragenda mu kirongozi gitwikiriye cy'inzu ebyiri zirebana. Inyuma ye hari abantu bicaye ku ntebe.

Amazu menshi asize irange ry'umuhondo afite ibisenge bitukura ari iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo impande zawo hamanitse ibyapa biyobora.

Icyapa kiriho abantu benshi bicaye ku mpande ebyiri barebana, hari abandi batatu bahagaze, hejuru handitseho amagambo Inkiko Gacaca hasi handitseho ubutabera, ubwiyunge.

Umugore w'imibiri yombi usutse imisatsi afite amaso manini yambaye agashati k'umweru hejuru yako yambaye iyindi shati nini ifite ibara ry'umutuku ahanze amaso imbere ye wagirango yiteguye gufotorwa.

Umugabo ufite uruhara wambaye ishati y'umweru dede ahagararanye n'undi mugabo muremure umusumba wambaye ishati y'ubururu, bari iruhande rw'urukuta rwanditseho ijambo gacaca.

Umugabo w'igikara wambaye amadarubindi yambaye impuzankano y'akazi igizwe n'ingofero y'umukara yometseho agatambaro k'umuhondo n'ikanzu y'umutuku ifunzeho agatambaro k'umweru mu ijosi.

Umugabo munini w'imibiri yombi, ufite umusatsi mwinshi, wambaye amarinete, bigaragara ko ari umusirikare kuko yambaye impuzankano ndetse afite amapeti ku ntugu.

Umugabo wambaye impuzankano n'impeta za gisirikare, afatishije ikiganza cy'iburyo ku ibendera ry'igihugu, ashyize ikiganza cy'iburyo hejuru ararahirira kuzatunganya imirimo ashinzwe.

Igazeti ya leta isohokamo amategeko n'amabwiriza atandukanye, iyi gazeti yasohotsemo ibwiriza rigenga imikorere n'imicungire y'ibimina, ni uburyo bwiza buzafasha ababiyoboka kwiteza imbere.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu ririmo uturongo tw'umweru, n'ishati yambaye amadarubindi, yicaranye n'umugore ufite umusatsi muke imbere yabo hari ibirahure byubitse birimo ubusa.

Abantu bane bambaye impuzankano y'iroza bicaye mu cyumba ku ntebe z'imbaho imbere y'umugabo wambaye ikanzu y'umukara ifite igitambaro cy'umweru imbere, ni umucamanza.

Umugabo w'imibiri yombi ufite uruhara, yambaye ikanzu y'umutuku, ifite agatambaro k'umweru imbere, ishati yijimye, ifite ikora ry'umweru rifungishije agapesu.

Inkiko gacaca zagize akamaro gakomeye mu Rwanda zitabiriwe n'abantu benshi abakoze ibyaha n'ababikorewe kandi zigira akamaro ko kubunga mu gihe gito ibintu inkiko zisanzwe zitari gushobora.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho utunyuguti duto tw'umukara rugaragaraho ingingo ya cumi n'imwe n'iya cumi na kabiri z'itegeko rigenga imicungire y'umutungo wa leta.

Icyumba kirimo abantu benshi, bamwe bicaye, hari abagabo babiri bahagaze, bambaye impuzankano igizwe n'ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umukara, bafashe ibendera ry'u Rwanda, bashobora kuba ari abacamanza.

Urupapuro runini rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'umukara zitangana, hejuru no hasi hari utuyuguti duto, hagati hari inyuguti nini, amagambo apanze neza mu mpushya eshatu.

Umugabo munini w'igikara wambaye ingofero y'umukara izengurutswe n'urugori rw'umuhondo, yambaye kandi ikanzu y'umutuku n'ishati y'umweru aravugira mu ndangururamajwi.

Umugabo w'igikara ufite ubwanwa, yambaye ishati y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, ikanzu y'umutuku ifite agatambaro k'umweru imbere.

Umugabo munini w'igikara ufite uruhara amaso manini n'ubwanwa yambaye impuzankano y'akazi ni ikanzu y'umutuku ifite ibara ry'umukara ifunzeho agatambaro k'umweru mu ijosi.

Abantu bambaye neza mu buryo bwiyubashye harimo umugabo wambaye ipantaro n'ikote ry'ubururu bicaye ku ntebe z'umukara mu cyumba giteguye neza bategereje guhabwa ubufasha baje gushaka.

Abantu batatu bicaye iruhande rw'ameza harimo abagabo babiri; umwe wambaye amarinete n'umugore umwe wicaye hagati yabo, imbere yabo hari ibitabo n'amakaramu barimo gusoma.

Inzu nini ikomeye y'icyerekezo yubakishije amatafari ahiye, yometseho icyapa cyandikishijeho inyuguti ziri mu ibara ryijimye, amagambo Gereza ya Rubavu.

Igazeti ya leta ni ikinkinyamakuru gisohokamo amategeko yemejwe ku nzego zitandukanye. Iba yanditse mu kinyarwanda, icyongereza, n'igifaransa, ku buryo nta muturage wakora ikosa ngo avuge ko itegeko atabashije kuryumva, kuko nibura buri wese aba asobanukiwe rumwe muri izo ndimi.

Abagabo babiri bashinzwe umutekano, bari imbere y'akazu gatoya hejuru y'ako kazu hari icyapa cyanditse mu nyuguti z'ubururu, cyanditseho amagambo polisi y'igihugu cy'u Rwanda.

Abashinzwe umutekano wo mu muhanda babiri, bambaye impuzankano y'akazi, bahagaze imbere y'ipikipiki bagendaho ifata ibara ry'umweru, umugore wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara abanyuze iruhande.

Abashinzwe umutekano wo mu muhanda babiri bahagaze imbere y'ipikipiki ifite ibara ry'umweru bagendaho, imbere yayo hari imodoka na yo ifite ibara ry'umweru, ihagaze imbere y'inyubako ifite icyapa cyamamaza kiri mu ibara ry'ubururu.

Igikoresho kiri mu ibara ritukura kibitse ahantu hari umutekano munsi yacyo hari akarobine bigaragara ko gikoreshwa n'abakanishi kabuhariwe bakora iby'amazi.

Amacupa abiri ari mu ibara ry'umutuku azwi nka kizimyamwoto apfundikije udukoresho turimw, ibara ry'icyatsi ateretse ku isima mu kaziga kazengurutswe n'ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda ifite ibara ry'ubururu bwijimye, ku ngofero hari igishushanyo cy'inuma, ku ntugu hari amapeti ku kaboko hari ibendera ry'u Rwanda.

Icyuma gifite ibara ry'umutuku gipfundikiye ku buryo bukomeye, cyometseho impapuro zigaragaraho amabwiriza y'ukuntu gikoreshwa iyo habaye inkongi y'umuriro, kizwi nka kizimyamwoto.

Urujya n'uruza rw'abantu, bose baragendera iruhande rw'umuhanda, ahagenewe abagenda n'amaguru. Bigaragara ko n'ushinzwe umutekano, ariho ahagaze kugira ngo atabangamira ibinyabiziga. Ni ikimenyetso cy'uko buri wese mu Rwanda, agomba kubahiriza amategeko.

Imodoka eshatu zihagaze zireba mu cyerekezo kimwe, imbere y'inzu ndende y'igorofa, iyo hino yanditseho ijambo polisi, hirya yazo hari iyindi modoka ihagaze mu kindi cyerekezo imbere y'igiti.

Umugore ufite imisatsi myinshi ifunze, wambaye amadarubindi n'ikanzu ifite amabara menshi, yicaye ku ntebe y'umukara. Iruhande rwe hari akameza gato yateretseho isakoshi ye.

Umugore wikwije neza, ahagaze imbere y'umukobwa wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru ufite amaboko magufi, bari mu cyumba gitatsemo ibitambaro bifite amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Icyapa kiriho abantu benshi cyane bambaye imyenda isa irimo amabara y'umweru, umutuku n'ubururu bafite icyapa kinini kiriho ifoto y'umugabo uzwi cyane wambaye amarinete ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Ikivunge cy'abantu benshi bose bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umweru, n'umutuku, bafite amabendera yanditseho amagambo f na p na r, bafite n'ibyapa byamamaza biriho ifoto y'uwatorewe kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bavanze abagabo n'abagore, bahagaze bifashe neza, harimo umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru wambaye n'amadarubindi, hirya ye hahagaze umusirikare ufite amapeti ku ntugu.

Umugabo w'igikara wambaye ikote na karuvate y'ubururu, wicaye iruhande rw'ibendera ry'u Rwanda arazwi cyane ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, abanyarwanda bose baramukunda kubera ibikorwa bye.

Abantu bane bahagaze mu buryo bumwe, bafatishije ikiganza cy'ibumoso ku ibendera ry'igihugu, ikiganza cy'iburyo kiri hejuru, bambaye ku buryo butandukanye, abagabo bambaye amakoti n'amapantaro, abagore bambaye imishanana.

Abantu benshi b'ikivunge harimo umugabo wambaye ikote n'ipantaro n'ishati y'umweru ari kumwe n'umugore wambaye ikanzu ya karokaro hirya no hino yabo hari abashinzwe umutekano bambaye impuzankano n'ingofero zitukura.

Ikirango cy'ishyaka pariti liberali, rizwi nka PL, ni ishyaka rya politiki ryemewe mu Rwanda, rifite inkingi eshatu, arizo ukwishyira ukizana, ubutabera, n'amajyambere.

Umugore w'inzobe ufite umusatsi uringaniye, wambaye ishati y'umweru, yicaye atuje ku ntebe nziza y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi na mudasobwa.

Icyumba kirimo abantu benshi bamwe baricaye abenshi mu bahagaze ni ba gafotozi bakurikiye ibibera muri iyo nama, ni ikintu cyiza kigaragaza ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda.

Icyumba kirimo abantu batandukanye abagore bambaye imishanana ifite amabara atandukanye n'umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'umukara bose bafashe ku ibendera ryu Rwanda bashyize ikiganza hejuru barimo kurahirira kuzatunganya imirimo bashinzwe neza.

Umugabo muremure wi'igikara ufite umusatsi muke, wambaye ishati y'imirongo na karuvati y'umutuku yambaye n'isaha afite mikoro arasobanura ibikorwa by'uruganda rw'icyayi ruzwi nka Rutsiro ti fagitori.

Umugore w'imibiri yombi, usutse imisatsi, wambaye amadarubindi afite ibara ry'umukara, yambaye kandi ikote n'ipantaro by'umukara, afite ikaramu n'ikayi mu ntoki yicaye imbere y'insakazamajwi, yiteguye gutanga ikiganiro.

Imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange bakunze kwita shira umuteto, ifite amarangi y'umuhondo n'umweru iri mu muhanda iruhande rwawo hari ahadatwikiriye ku buryo umuntu atitonze ashobora kugwamo.

Imodoka nini y'umweru itwara imizigo itwikirije amahema abiri rimwe ry'icyatsi n'iry'umweru iragenda muri kaburimbo, iruhande rw'umuhanda hari ahadatwikiriye bisaba amakenga kugira ngo utagwamo.

Imodoka z'urujya n'uruza zigenda mu muhanda wa kaburimbo, hari n'ipikipiki ihetse abantu babiri, ku nkengero z'umuhanda ahagenewe abanyamaguru, hari iyindi pikipiki ihahagaze.

Imodoka ifite ibara ritukura y'ikamyo iragenda mu muhanda, uruhande rumwe rw'umuhanda ruriho ibiti birebire bitoshye, ku rundi ruhande hari uruhande rumwe rutwikiriye ariko hari n'a hatagitwikiriye ku buryo hatitaweho hashobora guteza impanuka.

Imodoka nini y'umweru ihagaze inyuma yayo hatambutse umugore wambaye ikanzu y'umweru, hino yayo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru, ufite amaguru maremare.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'ubururu, ipantaro y'ikake, na bote z'umukara, yambaye ijile y'icyatsi, ifiteho agakandara kabengerana, kagenewe kumurinda igihe arimo gukora imirimo y'ubwubatsi nko ku muhanda hagati, kuburyo iyo inkinyabiziga kimumuritseho agaragara, ntihabe hagire umugunga.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru ifunguye ibirahure, amapine yayo arakobanye asa n'atarimo umwuka, ihagaze mu muhanda wa kaburimbo nta bantu bayirimo.

Abatwaye amapikipiki babiri baragenda m'umuhanda wa kaburimbo bambaye ingofero zitukura, hakurya yawo hari urukuta runini rw'umweru rukingirije ubusitani burimo ibiti binini.

Imodoka nini ifite ibara ry'umutuku iragenda mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo kimwe n'igare hino yaryo hari umugabo utera intambwe ndende wambaye imyenda y'umukara.

Amapikipiki abiri yose ahetse abagenzi aragenda mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo kimwe, inyuma yayo hari imodoka ifite ibara ritukura, inkengero z'umuhanda zisize irange ry'umweru n'umukara.

Imodoka nini cyane ifite ibara ry'umweru itwikirije ihema rifite ibara ry'ubururu iragenda mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo kimwe n'amapikipiki, iruhande rw'umuhanda hari ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye impuzankano y'akazi.

Umuntu utwaye ipikipiki y'umutuku mu muhanda wa kaburimbo, yambaye ingofero itukura n'impuzankano y'umuhondo n'ubururu, iruhande rw'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru itunganyije neza.

Umugabo utwaye igare, yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ikake n'inkweto z'umweru, aragenda mu muhanda wa kaburimbo. Ageze iruhande rw'ikiraro, kinini gifite imihanda igerekeranye, umwe unyura hejuru, undi hasi.

Umugabo w'igikara wambaye ingofero y'umweru, umupira w'ikake, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'ikake, arimo gufunga urugi rw'imodoka itwara abantu muburyo bwa rusange, ifite ibara ry'icyatsi mu rubavu.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru inyuma hari icyapa cy'umutuku cyanditseho Yahu itegereje abagenzi ihagaze mu kibuga gitunganyije, inyuma yayo hari ikiziba cy'amazi yahamenetse kuko nta mvura yaguye.

Abatwara amapikipiki akoreshwa n'umuriro, bahagaze iruhande rw'umuhanda ku buryo bufite gahunda. Imodoka y'umweru iragenda muri kaburimbo, hari n'ipikipiki igenda mu kindi cyerekezo.

Abantu babiri bahagaze hino y'imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri isize irangi ryijimye, umwe yambaye impuzankano y'akazi afite n'igikoresho kimufasha gutwara imizigo bigaragara ko ari kazi ke, undi avuye guhaha afite agakapu mu ntoki kubera ko bari hino y'ahabera isoko.

Urujya n'uruza rw'imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, hagaragara ibyerekezo ndetse n'imirongo ifasha imodoka kubisikana.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru itwara ibikomoka kuri peteroli iragenda muri kaburimbo, hakurya y'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti birebire n'ibyatsi bitoshye byiza.

Imodoka nini ifite ibara ritukura iragenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yayo hari amapikipiki ayikurikiye, mu nkengero z'umuhanda hari ibiti binini bitoshye, hari n'abanyamaguru bagenda mu nzira yabugenewe.

Imodoka itwara abagenzi muburyo bwa rusange, ifite ibara ry'ubururu n'umweru, iragenda mu muhanda munini, igeze hafi y'akazu abagenzi bategerererezamo gafite ibara ritukura, iruhande rw'ako kazu, hari umuntu ukora isuku wambaye impuzankano y'ibara ry'icyatsi.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru itwara ibikomoka kuri peterori, iragenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya y'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti binini bitoshye.

Imodoka nini yagenewe gutwara imizigo ifite igipande cy'imbere cy'umuhondo iragenda muri kaburimbo, imbere yayo hari iyindi ntoya isize irangi ry'umweru irabisikana n'amapikipiki ahetse abagenzi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iragenda mu muhanda wa kaburimbo,, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire bitoshye bifasha mu kubungabunga ikirere hino y'iyo modoka hari umuntu utambuka wambaye ikanzu y'iroza wihuta cyane.

Ipikipiki ifite ibara ry'ubururu yatunganyirijwe gutwara imizigo, iriho ibyapa byamamaza inzoga ikorerwa mu Rwanda, itwawe n'umugabo wambaye umupira w'ikigina n'ipantaro y'ikaki iragenda mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka ebyiri zikurikiranye zirimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, zifite ibara ry'ubururu, handitseho amagambo y'umweru, zagenewe gutwara imizigo, zifite igisanduku kinini gitwikiriwe n'ihema.

Imodoka eshatu zifite ibara ry'umutuku zo mu bwoko bw'ama voiture ziparitse mu kibugahino yazo hari utwuma dushinze tw'umutuku tugaragaza ko ari ahantu higirwa imodoka utwo tuyuma tubafasha gukata amakorosi.

Abantu babiri umwe wambaye umupira w'ubururu bwerurutse undi wambaye imyenda y'umukara baragenda ahagenewe abanyamaguru iruhande rw'umuhanda urimo imodoka nini ifite igipande cy'imbere gitukura n'icy'inyuma gisize irangi ry'umweru.

Ahantu hateguwe neza hari intebe zo kwicaraho, hari ibiti bizana umwuka mwiza, hicaye abantu batandukanye barimo kuganira, abandi barifashisha ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga bareba amakuru agezweho.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye cyandikishijeho amagambo mu ibara ritukura n'umweru kizengurutswe n'akaziga gatukura, kiri imbere y'inyubako nziza ikorerwamo ubucuruzi.

Abantu benshi, bamwe baricaye abandi barimo kugenda, mu nzira aho ubona ko hateganyirijwe abantu batembera, cyangwa se abantu baza bakicara bakirangaza, cyangwa se bagakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Biragaragara ko ari mu masaha ya nimugoroba, ukurikije uko amatara yaka.

Ikibuga kinini cyane gitunganyije neza, giciyemo imirongo imwe igenda icikagurika, hateretse udukoresho tw'umuhondo. Kirazitiye bigaragara ko habera imikino itandukanye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye asakaje amabati, afite amadirishya manini azengurutswe n'ubusitani burimo ibyatsi n'ibiti binini iruhande rw'ikibuga cy'imikino.

Ubusitani butoshye cyane buri inyuma y'ikibuga cy'imikino, gifite amazamu asize irange ry'umweru, hakurya hari hangari aho abafana bicara bareba umukino.

Ubusitani bwiza bunini butoshye buri hino y'ikibuga gikorerwaho imikino itandukanye, hakurya yacyo hari ibiti binini bifasha mu kubungabunga ikirere, ku buryo abaje kureba imikino bahumeka umwuka mwiza.

Icyapa kiri ku rupapuro runini rw'umweru kigizwe n'inzinga ebyiri rumwe rw'umutuku urundi rw'ubururu hagati hanyuzemo umurongo ufite ibara ry'umutuku uzengurutswe n'akaziga k'umweru.

icyapa kiri mu ishusho y'umwashi, iri mu ibara ry'umuhondo, izengurutswe n'akarongo k'umukara, kigizwe n'agakoni gahagaze, gafite ibara ry'umukara, karerekare n'akandi gatambitse gato.

Icyapa cy'umukara kiri ku rupapuro runini rw'umweru kizengurutswe n'ishusho ya mpandeshatu iri m'ibara ritukura imirongo yayo ifunze neza nta mwanya usigara.

Icyapa kiri mu ishusho y'umwashi iri mui ibara ry'umuhondo, izengurutswe n'ibara ry'umukara, iriho igishushanyo k'imodoka n'amagambo S L O W.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, gishushanyijeho imodoka yo mu bwoko bwa bisi, ifite amapine abiri, iri mu ibara ry'umweru, munsi yayo hari amagambo yandikishije inyuguti nini, nazo ziri mu ibara ry'umweru.

Icyapa kigizwe n'umwambi ureba hejuru, harimo akarongo k'umutuku kiri ku ishusho y'umwashi iri mu ibara ry'umuhondo, izengurutswe n'akabara gatoya k'umukara.

Icyapa kirimo udushushanyo tw'abana babiri basumbanaho gato, kiri mu ishusho ya mpandeshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku. Gishinze iruhande rw'umuhanda mu busitani, hari ibiti binini bitoshye.

Icyapa kigaragaraho umubare mirongo itatu, wandikishije inyuguti ziri mu ibara ry'umukara zigaragara neza, uzengurutswe n'akaziga k'umutuku, biri ku rupapuro runini rw'umweru.

Icyapa kirimo ibara ry'umuhondo kizengurutswe na mpandeshatu iri mu ibara ritukura kigizwe n'utwambi tubiri turi mu ibara ry'umukara kamwe kareba hasi akandi kareba hejuru bifite ibisobanuro byihariye.

Icyapa cy'akambi k'umweru kiri mu ibara ry'ubururu gishinze m'umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'igiti cy'umukindo, hakurya hari ubusitani bunini butoshye hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Amasangano y'umuhanda wa kaburimbo atandukanyijwe n'imbuga nto izengurutswe n'udutafari dusize amarangi y'umweru n'umukara, iruhande rw'umuhanda hari icyapa cyanditseho ijambo Kibugabuga hakurya hari ishyamba.

Abantu benshi bari muri gahunda zitandukanye, hari babiri bahagaze ku nkengero z'inzira, abandi babiri umugabo wambaye imyenda y'umutuku n'umugore wambayey'umweruru, barimo kwinjira mu muryango w'inyubako y'igorofa n'abandi barimo kuvayo.

Icyapa cyanditseho umubare mirongo itandatu, uri mu ibara ry'umukara, munsi hari inyuguti K, M akarongo kaberamye H, biri mu kaziga k'umutuku, byose biri ku rupapuro runini rw'umweru.

Inzu ebyiri zegeranye, imwe yubatse neza, iteye umucanga, ifite amabati asize irange ry'umutuku. Imbere yazo hari icyapa kiriho ibyerekezo bibiri: kimwe kijyana ku Kanyaru, Huye, Muhanga, n'ikindi cyerekezo cya Ruhango, Kinazi.

Icyapa kiri mu ishusho y'umukara ku rupapuro rw'umweru kiriho umugabo wambuka ahagenewe abanyamaguru mu muhanda kizengurutswe n'ishusho ya mpande eshatu iri mu ibara ry'umutuku.

Icyapa kigizwe n'udukoni tubiri tw'umukara duteganye duteye kimwe, turi mu ishusho y'umwashi nayo iri mu ibara rikeye cyane ku buryo ryica amaso.

Icyapa kinini kiri mu ishusho y'umwashi, kigaragaraho igishushanyo cy'umugabo ufite igitiyo kiri mu ibara ry'umukara kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, na ryo rifite ishusho y'umwashi.

Ibyapa bibiri biri mu ibara ry'umweru ryandikishijeho inyuguti z'umukara, bimanitse ku cyuma gishinze iruhande rw'umuhanda, hakurya yawo hari ibiti binini by'imigano byegereye inzu ndende isize irangi ry'umuhondo.

Inzu nini ikiri nshyashya isize amarangi y'umweru, ifite urugi rw'amarembo rukoze mu cyuma gikomeye, yubatse iruhande rw'umuhanda w'igitaka ukirimo gukorwa kugira ngo bawushyiremo kaburimbo.

Agace k'i Remera kitwa Giporoso kuridoru, ni agace gatuwe cyane kagendwamo n'abantu benshi b'urujya n'uruza baba bagenzwa n'impamvu zitandukanye, hari abamotari hari abatwara tagisi vuwature, hari n'abandi baba bagenda n'amaguru bagiye muri resitora cyangwa se ahandi.

Umuntu wambaye imyenda yijimye, yambukiranyije umuhanda, inyuma ye hari imodoka ifite ibara ry'umweru, ageze imbere y'amarembo y'igipangu kinini cyubakishije amatafari ahiye.

Inzu nziza nini cyane, yubatse mu buryo butangaje, irageretse, yometseho ibyapa byamamaza imikino y'amahirwe, hino yayo hari urutsinga rutwara amashanyarazi, ruyajyana mu bice bitandukanye.

Amadirishya akinze asize irangi ry'ikijuju risa n'irisize ku byuma by'ibaraza, hari inkingi ebyiri, isize irangi ry'umweru n'isize irangi ry'icyatsi cyerurutse.

Amazu yubatse kimwe akurikiranye hakurya no hakuno y'umuhanda, amenshi asize irange ry'umweru, imwe ni ubururu, hino yayo hahagaze abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Icyapa cyamamaza ahacururizwa ikawa y'u Rwanda ikawa nziza, iryoha, ihumura ushobora kuyinywa mu gitondo saa sita cyangwa se nimugoroba bitewe n'uko ubishaka buri gihe irakuryohera.

Amazu menshi akurikiranye, yose asize amarangi y'umweru kandi yose yubatse kimwe afite utudirishya twinshi dukurikiranye, hino yayo hari umurima udahinze bigaragara ko ari agace gatangiye kubakwa vuba.

Imodoka ntoya ifite ibara ry'umukara, iparitse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo, hakuno y'umuhanda hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Ubusitani butoshye burimo ibyatsi bikase neza, hari ibiti binini n'ibitoya, bumurikiwe n'izuba ku buryo nta mibu ishobora kwihishamo ngo irye abagiye kuhatemberera.

Icyumba gifite urukuta rusize irangi ry'icyatsi cyerurutse, naho idari risize irangi ry'umweru n'umukara, kuruhande hari idirishya rikingirijwe n'agatambaro.

Aha ni ahazwi nk'i Kanombe mu Kajagari, kera hari utuzu duto duto twinshi tw'akajagari ariko ubu haravuguruwe hari amazu manini ageretse ndetse y'ibipangu bimwe byubakishijwe amatafari ahiye.

Umukobwa wambaye ingofero mu mutwe n'ipantaro y'iroza aragenda mu muhanda wa kaburimbo, ageze imbere y'inzu y'igorofa isize amarange y'umuhondo, ifite amadirishya y'ubururu n'inzugi zisize irange ry'umweru.

Ishyamba ririmo ibiti n'ibyatsi bitoshye cyane, riri ku nkengero z'umuhanda, hari icyapa cyanditseho parike Nyandungu, hari n'icyuma kimanitseho itara rimurika iyo ari nijoro.

Umuntu w'igikara ufite umusatsi muke wambaye ishati ya karokaro, irimo amabara y'umukara aravugana n'ushinzwe umutekano imbere y'umuryango w'inyubako ikorerwamo imirimo yihariye.

Icyumba gifite inkuta zisize amarange y'ubururu, hasi gifite amakaro, hejuru yacyo hari icyapa kinini cyamamaza, imbere hari ikirugu bigaragara ko hari mu gihe cy'iminsi mikuru ya noheri.

Icyapa kitagaragara neza kizengurutswe n'uruziga ruri mu ibara ry'umutuku, kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo munini ugabanyijemo ibice bibiri, hagati y'iyo mihanda yombi hari ubusitani burimo imikindo itoshye.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru isakaje amategura, izengurutswe n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, inyuma y'igipangu hahagaze imodoka ebyiri.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu asohotse mu nzu izengurutswe n'urukuta rw'uduti dupanze neza, imbere yayo hari indabo bigaragara ko ari inzu yubucuruzi.

Umuntu urimo gucunga igare, ahetse irindi rishobora kuba ryapfuye, asohotse mu gipangu, cy'inzu nini cyane, y'igorofa ,ifite ubusitani, burimo ibiti binini, bitoshye.

Umukobwa muremure wambaye umupira w'umukara, uhetse agakapu, agiye kwambuka umuhanda ahura n'imodoka irimo kugenda kubera ko ntamirongo yateganijwe yo kwambukiraho, biramusaba kwitonda kugira ngo iriya modoka itamugonga.

Mu muhanda wa kaburimbo hari ahasize amarangi y'umweru n'inzira abanyamaguru bambukiramo, imbere yabo hari imodoka n'ipikipiki bigomba guhagarara bakabanza bakambuka.

Mu ihuriro ry'umuhanda wa kaburimbo, iruhande haparitse amapikipiki ategereje abagenzi, hari umunyonzi wambaye ishati y'icyatsi aritegereza mu cyerekezo cy'undi muhanda ko nta modoka ihaturuka ngo abone kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo uragendamo ikinyabiziga gicanye amatara maremare, inkengero zawo zisize irangi ry'umweru n'umukara, hari ubusitani bufite ibyatsi bitoshye n'ibiti bikiri bito.

Imodoka ifite ibara ry'umweru igenda mu muhanda wa kaburimbo, igeze imbere y'inzira abanyamaguru bambukiramo igabanya umuvuduko n'ubwo itara riyobora ibinyabiziga ryaka icyatsi biyiha uburenganzira bwo kugenda.

Imodoka n'amapikipiki byose bicanye amatara, biragenda mu muhanda bigaragara ko ari ninjoro, hari abanyamaguru barimo kwambuka bafite amakenga kubera ko nta mirongo yabagenewe ihari.

Umuhanda wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye imodoka n'amapikipiki, inkengero isize irange ry'umweru n'umukara, ahagenewe abanyamaguru hatunganyijwe neza, imbere hari inzu isize irange ry'ubururu n'umweru.

Ikiraro kinyuraho umuhanda munini, hakurya no hakuno gifite utwuma turinda abakinyuraho guhanuka n'amatara abira abiri amurika neza, gikikijwe n'ubusitani burimo ibiti binini.

Urukuta rurerure cyane, rukomeye, rwubakishije amabuye, umucanga n'isima, rushyigikiye inzu isize amarangi y'umuhondo. Iruhande rwarwo hari inzira itwara amazi mabi itwikiriye.

Abatwara abagenzi ku mapikipiki benshi bagenda mu muhanda wa kaburimbo babisikana n'imodoka, bambaye impuzankano zagenewe akazi kabo zigizwe n'ingofero n'imyenda y'ubururu n'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo hari ahasize irange ry'umukara n'umweru ni aho abanyamaguru bambukira, hari n'itara ry'umutuku ririmo umugenzi bivuga yuko adafite uburenganzira bwo kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo munini bihagije ugabanyijemo ibice bibiri ku buryo imodoka zigenda n'izigaruka ntaho zihurira, hagati y'ibyo bice byombi hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti birebire bifasha mu kubungabunga ikirere.

Umuhanda munini wa kaburimbo ku nkengero zawo hashinze icyuma cy'mashanyarazi, hakurya hari ishyamba rinini ririmo ibiti by'inganzamarumbo utabona ahandi.

Umuhanda wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye. Hari imodoka nini itwara imizigo iri mu ibara ry'umutuku, hari iyindi modoka iringaniye iri mu ibara ry'ikijuju, hari n'amapikipiki.

Ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano wo mu muhanda rikoresha ikoranabuhanga ritangaje, ibyuma byashyizwe mu mihanda bifotora ibinyabiziga byarengeje umuvuduko, bikoherereza umushoferi ubutumwa bugufi bumwereka amafaranga y'amande agomba kwishyura.

Ibinyabiziga birimo imodoka n'amapikipiki, biragenda mu muhanda wa kaburimbo, munsi y'ikiraro gifite imihanda igerekeranye. Iruhande rw'umuhanda hari ubusitani burimo ibiti binini.

Amapikipiki menshi atwawe n'abantu bambaye imyenda itandukanye bose bambaye ingofero z'akazi, ahagaze muri kaburimbo ategereje uburenganzira butangwa n'amatara ayobora ibinyabiziga kugira ngo abone kugenda.

Ipikipiki zitwara abagenzi n'iyagenewe gutwara imizigo ndetse n'imodoka ziragenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'umuhanda hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku n'umugore wambaye imyenda y'ibitenge.

Umuhanda ukikijwe n'ubusitani ku mpande zombi, inkengero z'umuhanda zubakishijwe udutafari dutoya, dusize amabara y'umukara n'umweru. Hari n'amapoto ashinzwe gutwara amashanyarazi, ndetse n'ayandi amanitseho amatara amurika ninjoro.

Ibinyabiziga by'urujya n'uruza bigenda mu muhanda harimo imodoka zitwara imizigo n'amapikipiki ,igare rihagaze ku nkengero z'umuhanda iruhande rw'akazu kamanitseho ibyapa byamamaza.